Ifoto irerekana ameza n'intebe mu cyumba cyo kuraramo cyangwa aho bacuruza ibikoresho byo muzu, intebe zifite igishushanyo gitandukanye zimwe zifite ibyicaro byometsweho igitambaro kibigerana, naho' izindi n'imbaho zisanzwe, harimo n'ibitanda bibiri hari n'amakaro y'umweru bigaragaza ko ari nko mu cyumba cy'ahantu bacururiza.

Hano dufite ifoto y'iduka rirerire cyane, ririmo ibicuruzwa byinshi n'amamabiswi atandukanye y'ubwoko bwinshi, harimo n'umuntu waje guhaha n'umubare gatanu n'undi gatandatu, byerekana amaro y'iduka, aho ibintu biba bigiye biri, ku buryo uje kure nk' ikintu mu iduka wamenya ngo ni muri gatanu cyangwa ni muri gatandatu.